Isekuro n'umusekuzo wayo basekuriramo isombe, amasaka, ndetse bakaba bayisekuriramo n'ibyatsi byo kuvurisha, bya kinyarwanda.

Abantu babagaho mu gihe cya kera kuko bambaraga imyenda yabo, n'uko basokozaga amasunzu, bafite inkoni ,bari kunywa n'itabi mu nkono zo mu bihe byabo bya kera.

Imodoka y'ivatiri ihagaze ku kiraro n'umunyegare ari gutambuka ari kugenda, ku igare rye. Abantu benshi bari kureba iyo modoka ndetse n'umunyegare uko biri kugenda.

Ahantu abagenzi bategera imodoka, muri gare harimo imodoka nyinshi n'abantu benshi, amabisi manini bita kwasteri, harimo n'abantu bacururizamo amayinite.